Ifumbire y'imvaruganda ikoreshwaga igihe c'ibihingwa c'ibirayi cangwa mu gihe bari kuhira ibirayi, igakoreshwa kugira ngo ibe yakongera umusaruro ivanze n'ifumbire y'imborera ikomokaga ku matungo.

Ikiganza gifashe ibyondo mu gwego rwo kwirinda kugira ngo hatavamo ingwara zanduriraga mu mwanda， cyangwa ku bindi byondo nyine bitewe n'ahantu biba byaturutse hatizewe.

Umugabo uhagaze hejuru y'ifumbire, inyuma ye hari ishyamba, ndetse afashe n'igiti hejuru y'ifumbire, yifashishwa cyane mu kongera umusaruro w'ibihingwa birimo, ibirayi, ibigori, ibishhyimbo, n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Abagabo babiri bari kwapurika ifumbire ku bigori kugira ngo byere neza, bikure bikomeye bifite uruti rukomeye. Abagabo babiri umwe yambaye ingofero n'amabote, uwundi yambaye inkweto zifunze nta mabote yambaye, ifumbire bafite bari kuyikura mu bikombe.

Abaturage bari mu murima bafashijwe n'inzego za Reta mu kuhira ibigori, kubishyiraho amafumbire kugira ngo bizabashe kuzamuka bimeze neza, ndetse bizanere urugero bishakwamo, kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'iterambere bukorerwa mu mazu, muri ubwo buhinzi harimo umugabo uri gutera umuti yambaye ishashi, ahetse ipombo akoresha ari gutera umuti, hepfo ye hariho ibindi bihingwa bitandukanye, bikaba ari ibihingwa byizewe kuko bidashobora kuba byakwangiriza ikirere.

Icupa ryifashishwa mu gutera umuti cyangwa kuhira, rifashwe n'umuntu wambaye ga, ari gufuhira ururabo cyangwa ari kurutera umuti, kugira ngo arurinde udusimba twaza kururya, cyangwa udukoko twaza kurwangiza.

Umugabo uri gutera umuti ibigori，yambaye agapfukamunwa kamurinda kuba umuti gwagaruka ngo aguhumeke，kuko gushobora kwangiriza，yambaye na ga zimurinda kuba umuti gwaja ku ntoki，ngo gwangirize intoki cangwa nyuma aze kurya， narya arye n’umuti，gwagiye ku ntoki，akambara n'isarubeti imurinda kugira ngo umuti gube gwamumeneka ku mubiri，igihe yaba ari gupompa.

Ubwato bw'umuvure bwifashishwaga cane cane n'abarobyi mu gihe bari kuroba amafi mu gitondo cangwa nimugoroba, bukaba ari ubwato butwagwaga hifashishijwe ingashi kuko nta moteri bugiraga ,akaba ari ubwato bukoreshwaga n'ahantu ho kwambuka mu gihe gito hatari ahantu h'amazi menshi cangwa hagari.

Ibijyo biribwaga mu gitondo cane cane, ruguru yabyo hari kuto yifashishwaga mu kubikata igihe bari kubijya bakoresheje ifurusheti, hari indimu zikaseho ndetse hakaba hariho n'imigati ibiri zirambitse ku siniye yifashishwaga mu gihe bari kujya.

Amafi yahurijwe ahantu ari menshi hejuru yayo hari udutete twifashishwa mu kuyazana ahantu cyangwa mu kuyakura aho hantu, aho azanwa avuye kurobwa ndetse akanahakurwa agiye gukoreshwa, haba mu gutekwa cyangwa mu bindi bikorwa ibyo ari byo byose.

Indagara ubwoko bw'ibijyo biva mu mazi bigatekwa, mu ciciro co guteka inyama, bikaba ari ibibwa byiza bimanzaga byumishwa mbere yo gutekwa, bikazanwa mu isoko bikagurishwa, bigatekwa mu mboga mu gwego gwo kongera intungamubiri.

abagabo babiri bari mu mazi; bateze umutego ni abarobyi; barigusuka ibiryo by'amafi muri supaneti kugira ngo amafi abashe kuza muri supaneti hanyuma bayafate nkuko babishaka.

Ahantu baparikaga ubwato bugendaga hifashishijwe ingashi, hari abagabo bagashaga ndetse n'ubwo bwato bw'umuvure bubazwaga mu biti, cane cane bukaba bukoreshwaga mu burobyi bw'amafi.

Ifi iri kucokezo hejuru musi yari umuriro washeho, gatanda kugirango itagera ku muririro, ikangirika cane hepfo yayo hari indi fi nayo wokejeshi nibirungo kugirango yongere uburyohe neza.

Insina ziteye mu murima zivagamo ibitoki byengwagamo ugwagwa cangwa bikaba byaribwamo imineke bitewe n'uko n'ubwoko bwabyo kikaba ari igihingwa ciza cihanganiraga kuba ahantu aho ariho hose.

Ishamba ririmo ibiti bikuru ibiti biteye ndetse n'ibyate hafi aho ,amababi yagiye amanukiramo ibitusi, intusi zitarakura ariko zidatewe vuba.

Ibijumba bigiteye mu murima，akaba ari igihingwa ciza gikugwaga mu murima， ntibisabe kuba caja mu ruganda kugira ngo ubwo kiribwe，cikaba cahita kiribwa ako kanya kikiva mu murima，kuko gishobora no kuba caribwe ari kibisi，cangwa kigatekwa uko kimeze， cangwa se kikajananwa no mu ruganda kigakugwamo ibindi bintu bitandukanye.

Umuririma guhinze, imbere y ago hari ho ikindi kibara ndetse hateye mo na avoka, hari ahantu hegetse imishingiriro zifashishwa mu gushingirira ibishimbo, ndetse no kuba zashingirira amajeri.

Umurima warangije guhingwa imbere yaho hari ikibara, kigaragara nk'aho kitarahingwa ariko umurima uri hano imbere urahinzwe bivuze ko ushobora guhigwamo imyaka igaterwa nyine ikera bisanzwe.

Umurima utewemo ibirayi bikuze ariko bitari byagera igihe cyo kwera. Imbere y'uwo murima hari ibigori, urutoki n'akantu k'ishyamba karimo urusasa, ndetse n'umusozi ugaragara hirya.

Ibirayi bikiri mu muririma, bigifite ubutaka bwo mu murima, kuko bitaravamo, ndetse byabaye ibinini, byareze neza. Ni ibirayi bishimishije.

Urusenda, igihingwa cy'urusenda gikoreshwa abantu barya, bitewe n'uko bashaka gukoresha, cyangwa arabashaka ko kibongerera apeti ,cyangwa kigakoreshwa mu kongera uburyohe bw'ibiryo, bitewe n'umuntu ugikoresha uko shaka.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo ibiribwa bitandukanye: Harimo ibishyimbo, ibigori n'imbuto zirimo indimu, hakabamo amavuta ndetse n'umudamu Ubyicaye imbere ubucuruza.

Imineke zivagamo inzoga zigakoreshwa ziribwa, cyangwa se zigakoreshwa zivamo ziri kuvamo umutobe unyobwa, n'ikinyobwa ciza mu buzima bw'umuntu.

Insenda z'umuhondo iz'icatsi n'iz'umutuku zikoreshwaga mu kongera ubujyohe bw'ibijyo, cangwa kongera appeti z'abantu baba baracitse apeti, zikaba ari insenda zishobora gukoreshwa muri ubwo bujyo cangwa zigakoreshwa nk'umuti, kuko zivuraga n'inkoko kugwara umuraramo.

Avoka urubuto rwifashishwa mu kongerwa ku biryo kugira ngo bibashe kongera intungamubiri, rukaba ari n'ikiribwa cyabasha kuba cyakorwamo isabune n'izindi poroduwi zitandukanye zo kongera ubwiza, ndetse no gukesha umubiri.

Isoko ricururizwagamo ibirayi by'ubwoko bwinshi butandukanye, bikaba byarakorewe ahantu bigomba gucururizwa udutabure. Imbere ruguru hari umudamu wicaye ariwe ubicuruzaga, ni abadamu benshi kubera ko ni isoko, ntabwo ari ahantu h'umuntu umwe ku giti cye.

Voka, urubuto gweraga, rukaba gwaribwa mu biryo, cangwa ukarujya nta kindi kintu uvanze na go, cangwa se ukaba warukoreshamo, rukavamo isabune cangwa izindi porodowi zitandukanye. Ni urubuto rwiza, rufite intungamubiri nyinshi, kuko na Leta idutegeka kurutera muri buri rugo.

Amashu : imboga zikoreshwa mu byo kurya byacu bya buri munsi bitandukanye, ndetse zikaba ari imboga nziza kuko zishobora gukoreshwa mu byo kurya byose byo mu rugo.

Abagabo babiri bari mu muririma gw'ibirayi, iruhande rw'umugabo umwe wambaye isengeri hari umufuka, igikapu n'agafuka gatoya bipanzemo ibirayi, undi hepfo afite isuka yayegamiye ahagaze ahantu bamaze gukura.

Igiti kiriho igihingwa cy' imyumbati hepfo yacyo hari ameza, ndetse, hirya yacyo hari ijerekani n' ibyatsi bitandukanye, igiti kiriho uko bakiranduye niko banagiteretse.

Mu itatu harimo urukwavu rumwe rw'umweru, n'izindi z'amabara y'umweru n'umukara. Ni inkwavu zororoka vuba kuko zibyarira amezi make, kandi zikabyara izindi nkwavu nyinshi, ku buryo zishobora kukubyarira amafaranga menshi mu gihe gito.

Igihingwa cy'ibogori bikoreshwa mu majyaruguru. Akaba ari gihingwa cyiza gikunda kwera ahantu henshi hatandukanye. Ni igihingwa kidakunda kwanga ikirere cy'ahantu aho ariho hose.

Ahantu bahurizaga ibirayi byinshi bitandukanye, ibirayi kikaba ari igihingwa ciza kivagamo ibiraha n'ibindi bintu bitandukanye nk'amafiriti, kikaba ari igihingwa cereraga amezi atatu kikaba kitagoranye kuko cera vuba kandi kigahita kinabwa.

Ahantu hacururizwaga ibiribwa bitandukanye by'imboga birimo: karoti, inyanya, intogi, ibitunguru, imiteja, ibindi bintu birimo: amashu bijanaga mu mboga mu gihe abantu bashaka kurya ibibiribwa birimo imboga gwatsi.

Ibijumba : Igihingwa gikoreshwaga mu majaruguru cyangwa mu burengerazuba, ahantu henshi gikunda kuhera .Kikaba ari igihingwa gishobora kuba cavamo ibintu byinshi bitandukanye , kikaba caribwa kimeze nkuko ugikura mu murima, cagwa kigakorwamo izindi poroduwi.

Urubuto gw'igipapayi cya kizungu, urubuto gwiza gwifashishwaga mu kuvura, bishobora kuvura mu nda rukaba ruteye ruzitiriwe n'ibyatsi birurinda ibyonyi birimo inkoko, cyangwa utundi dusimba dushobora kuza ku ruhande tuje kururaha.

Ibigori bimanikwaga bipfunditse, uburyo bwo kugira ngo byume vuba byifashishwe yaba ari ukubibetesha bikaba byatekwamo umutsima cangwa bakabihungura bigatekwamo impungure, cangwa se bakabijana mu ruganda bikaba byavamo ifu ya kawunga. Ruguru harimo abadamu bicaye bari kubipfundika, babanje kubikuramo amababi bagapfundika amababi makeya.

Utureyi ikoreshwaga mu gutwara amagi, haba amagi go kurya cangwa amagi go gukora ikindi gikorwa bitewe n'umuntu wagaguze. ikintu agashakira ikaba. Ikoreshwa mu gutwara amagi kugira ngo gagere aho gagiye neza gatangiritse.

Imiteja zikiri mu murima zifashishwaga mu guteka imboga z'ubwoko butandukanye cangwa zikaba zanatekwa zonyine, zikaribwa mu rwego rwo kurya izo mboga.

Imashini zikoraga mu kuhira, cane cane ahantu ho mu burasirazuba hatabaga amazi menshi, cyangwa cangwa ngo hagwe imvura nyinshi, zikaba ari imashini zikuraga amazi hasi mu butaka zikagazana hejuru, zikaganyanyagiza mu bihingwa nk'aho imvura.

Abagabo batatu bari kuhira ibirayi harimo n'umudamu kugira ngo bibashe gukura neza, bizakurire mu ubutaka buhagije bibashe no kuba byaba binini. Nyuma ya bo hari inzu n'ibiti.

Umudamu ufite igihingwa c'imyumbati ceze ari kuzikura. Impande ye hari isuka yifashishaga mu gukura imyumbati. Ari mu murima munini gwezemo imyumbati hepfo y'umurima hari ishamba ry'ibiti n'imyumbati zeze neza kuko yazikuye biri kuboneka.

Inzu y'ibicuruzwa icurururizwagamo imboga zirimo inyanya, intoryi, ibitunguru , karoti n'izindi mboga rwatsi zitandukanye hirya hari umugabo uzicuruzaga ari kureba muri telefoni.

Imiteja zikoreshwaga mu guteka imboga zikaba zikoreshwaga cane cane mu gihe bazivanze n'izindi mboga, zirimo inyanya cangwa intoryi hepfo yazo hari isafuriya iririmo akantu kameze nk'umwuko.

Ibigori byeze neza bikiri mu murima bikera, bikuma, bigahita byinaga bikunama, ikimenyetso kigaragaza ko byeze neza kandi bidakeneye kwanikwa mu gihe bivuye mu murima. Munsi ya byo hari ibindi bihingwa by'icatsi.

Ahantu habikwaga ndetse hagacururizwa imbuto zirimo wotameloni, voka, imyembe, amaronji, n'igikarito kiri hejuru giteretsweho wotameloni ziri ku ntara, ndetse zikaba ziteretse no ku meza.

Oranje ni ubwoko bw'imbuto bukundaga kwifashishwa n'abana, gukoreshwa nk'umuti guvuraga mu nda cangwa bigakoreshwa nk'umuti uhagarika uburibwe bw'ahantu runaka, kubera ko hari imbuto zoroshaga.

Igihingwa c'ibirayi kirimo abagabo babiri n'umugore umwe bari kucuhira kugira ngo kibashe kubaho neza, ndetse kibone n' ubutaka kizakuriraho kugira ngo kitazabasha kwera kitameze neza.

ibishimbo bikiri mu murima biteye neza ku murongo, bikaba ari ibishimo byiza bidasabaga imishingiriro, kandi bitangaga umusaruro mwinshi ugereranije n'ibyo wateye. Ni ibishimbo byiza usabwaga gutera umuti gusa bitagoranye.

Umudamu uri mu isoko acuruza ibirayi, inyuma ye ku ruhande hari ibihaza, imbere hari umunzani yifashisha apimira abaguzi ibirayi baje kugura, yambaye n'agapfukamunwa.

Umusozi guciyemo amaterasi atandukanye, garindaga umusozi kuba gwa wacikamo inkwangu. Cangwa kuba gwa tembanwa n'isuri harimo n'abagabo bari ku gukoramo.

Amatunda gera garanze bakaba bagubakiraga kugira ngo gere neza, kandi gere ari menshi. Bukaba ari ubwoko bw'amatunda bwifashishwaga cane cane mu kuvura indwara zo mu nda no kurusha mu nda ku bantu bafite mu nda bagiraga ibibazo.

Umunyonzi utwaye ibitoki byifashishwaga haba mu kwenga inzoga z'ugwagwa cangwa mu kuba zavamo imineke. Buba ari ubwoko bwiza bw'ibitoki bitwaye ku igare, byifashishwaga mu gutwara imizigo zikura ahantu hamwe zijana ahandi.

Ibipapayi bya kizungu, kimwe gihaswe gisatuwemo kabiri ,n'ibindi bibiri bidahaswe. Ni ibipapayi byiza byifashishwa mu kuvura zimwe mu ndwara zo munda ,,ndetse bikaba birinda n'indwara zo mu nda zituruka ku mwanda n'isuku nke.

Umuntu usoroma icayi imbere ye hari icyayi ari gusoroma; inyuma ye naho hari icyayi; hagati hanyuzemo inzira; inyuma ye cyane witegereje hariyo ishyamba ririmo n'igihu.

Amatunda apanze imifungo ku mifungo, ruguru yayo hari imizabibu ipanze hejuru y'umufuka ,iruhande hari agapaniye ,n'ikirenge cy'umuntu.

Umudamu uri mu murima w'ibigori, harimo ibigori byinshi kimwe yagifashe ari kugitonora ngo arebeko cyeze. Ikigori ni igihingwa cyiza cyifashishwa mu guteka igikoma cyangwa umutsima, cyangwa umutsima uva mu ruganda uzwi nka kawunga.

Indibu imwe ikasemo kabiri izindi ntabwo zikase, hariho uturabo turi ku meza tw'utubabi tuvuga ku ndimu, baba basoromanye n'izo ndimu, ni indimu zifite n'amazi wagira bazimenyeho.

Abagore bari mu murima gw'ibirayi bari gucucira, kugira ngo ibirayi bituma kubera kubura amazi. Bifashishije itiyo ry'amazi harimo n'umugabo umwe yambaye n'ingofero.

Igihingwa c'ibirayi kigaragaraga gikunze kugaragara mu majaruguru akaba ari igihingwa ciza, gishobora kuribwa igihe kirekire kitarambiranye, kikaba ari n'ikiribwa cera mu gihe gito.

Avoka urubuto rwifashishwa mu gukora ubwoko butandukanye bw'amasabune bakoresha mu mutwe cyangwa rugakoreshwa ruribwa, haba kuribwa Ku biryo kuko rwongera intungamubiri cyangwa ukarurya rwonyine bitewe n'uko ushaka.

Itereyi iriho amagi yifashishwaga mu gutwara amagi gava ahantu hamwe gajya ahandi akaba ariyo igarindiga kumeneka, kandi uburyo igatwaragamo ni uburyo bwizewe kandi bushobora kugarinda impanuka iyo ari yo yose zirimo no kumeneka.

Intogi ni ubwoko bw'imboga bwifashishwaga mu kongera izindi mboga ndetse no guteka. Mu gihe umuntu atetse imboga azishiramo kugira ngo zongere ubujyohe cyangwa zongere n'intungamubiri bw'imboga ashaka kuba yakoresha.

Ibishimbo byakuwe mu murima bigahugwa bikavanwa mu bishishwa byazo, ariko ntibigosogwe, bikaba bifite imyanda zo mu murima. Birimo ibishimbo biba byaravuye mu murima biboze cangwa ibindi bibabi by'ibishimbo kubera ko bitigeze bigosogwa ngo bikugwemo.

Igihingwa c'ibigori cifashishwaga mu kubeta amafu gatandukanye garimo kawunga, ndetse kikaba canifashishwa kukijya conyine kikiva mu murima cangwa kikaribwa nk'ihundo gitetswe mu bishimbo baba batsimbye.

Ibase y'umutuku irimo intogi zifashishwaga mu guteka imboga, hepfo yazo, hari indobo y'umweru nayo irimo ibindi bintu by'imbuto by'amavoka. Hari ikirenge cy'umugore, yambaye inkweto z'umukara.

Famu y'inka, imbere hari inka imwe nziza ndetse no kuruhande hari izindi nka zigiye zitandukanye mu gikuyu cyazo aho zihurira zirisha ndetse akaba ari naho ziba.

Amaronje g'umuhondo cane gazwi nka oranje, gifashishwaga mu gukora umutobe cangwa gakaba garibwa mu gihe umuntu agwaye mu nda, gakahorosha agakira vuba. Ni amaronji ane rimwe risatuyemo kabiri, hari n'irindi rigifite amababi gayo.

Ibigori, ibihingwa byiza byeraga ahantu hose bikaba bibashaga kwihanganira ubushyuhe cangwa ubukonje bw'ahantu bikaba bikoreshwaga byaribwamo impungure cangwa ukabyotsa bikiva mu murima, cyangwa mberenge cangwa se bikaba byabetwamo bigatekwamo umutsima.

Umurima uzitijwe ibiko, hirya gato hirya urebye neza hari inzu iteye irangi ndetse na mu hagati harimo akantu k'akazu .Ugarutse hakuno hari amabuye n'ibyatsi.

Abadamu batatu bafite intara bifashishaga bari kugosora ibishimbo bari kubikuramo imyanda, hagati umudamu wa gatatu afite ibishimbo arabifashe, ari kureba ubwiza bwabyo. Inyuma yabo hari ibyapa birinda ibyonyi kuza mu myaka.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye birimo: ibishyimbo, ibirayi ndetse ahantu abantu bahuriye baje kugura n'abaje kugurisha, hepfo yabo hari umunzani bifashisha bapima ibyo bari bugurishe.

Ibigori byeze byumye bikanikwa neza, biri mu umufuka aho bishobora kujyananwa ahantu henshi hatandukanye, bikaba byakugwamo ifu yavamo umutsima cangwa igikoma cangwa ukaba wajya guca bimeze cangwa binahunguye.

Ibigori byanitswe mu buryo bwo kumanikwa, kugira ngo byorohe kubihungura. Babe ba bibetesha bivemo umutsima, cyangwa igikoma, cyangwa babigurisha bivemo kawunga n'ibindi bintu bitandukanye, bikorwaga mu bigori byumye.

Aha hantu hahunikwaga ibigori bikanikwa bimanitse mu gihe bitegereje guhungugwa ngo bibe byavamo umutsima, igikoma cangwa babe babibetamo kawunga. Hari abagabo, hari umugabo n'umugore, umugabo ari kubimanura akabahereza umugore uje kuba byahungugwa.

Ibishimbo bitari byatonorwa ni ibishimbo bibisi, bitekwagamo intonore, bitamara igihe kirekire utabitetse kuko byahita byangirika bikarangira nta kintu bikumariye. Ni ibishimbo bigufi bidashigwagamo imishingiriro, bya bindi bitegwaga umuti gusa no kubagara byonyine bitagoranye.

Ubunyobwa igihingwa cerera hasi mu butaka kigakurwa nk'ibirayi gishobora kwifashishwa mu gihe co guteka cangwa kikaribwa gikaranze ari kibisi, ni ikiribwa ciza kigira intungamubiri nyinshi zishobora kugufasha cane cane ku bagabo.

Abagabo babiri bambaye amabote bari guhura ibishimbo biri ku ihema, umwe yabiteruje igiti, uwundi arikubihurira hejuru, hirya ya bo hari igipanpu c'amabuye n'inzu izitiriwe n'ico gipangu.

Ibishimbo biri mu kabakure ,gakoreshwa cyane cyane mu kubirenga mu gihe biri kugurishwa, gatetse ku meza ndetse karuzuye, ibishimbo by'ubwoko bumwe bwavamo imbuto yo guhingwa.

Umudamu wicaye yambaye imyenda za kinyarwanda, afite inkoko iha ibishimbo ari kugosora kugira ngo avangure imyanda zo mu bishimbo hasigagara ibishingwa gusa, bisigare bifite isuku bidashobora kuba byatera indwara.

Umurima uhinzwemo ibishyimbo, biteye mu uburyo bwa kijyambere ku murongo, ndetse haruguru yaho harazitiriye, bikaba ari ibishyimbo bigufi, bigezweho muri iki gihe.

Ibigori byahurijwe hamwe bikanikwa, kugira ngo bizabashe guhungurwa, ndetse mwibyo bigori harimo umugabo ,umudamu witwikiye umutaka ruguru yabo nko hirya hari abandi bari kubishira mu mufuka.

Amasaka g'amahundo baragahuraga gakavamo amasaka babeteshaga hakavamo umusururu cangwa ubundi bwoko bw'inzoga zitandukanye zikoreshwa n'umusururu cyangwa ikigagi.

Inkoko iri mu magi yayo igamije ku yashyushya cyangwa gutera ayandi magi, kugira ngo azakoreshwe, cyangwa iyararire havemo izindi nkoko, cyangwa abe yaribwa.

Itungo rigufi rizwi nk'ingurube riri konsa ibyana byazo. Ingurube ni itungo ryiza rizwiho kubwagura ibyana byinshi, bitanga inyungu kuko niyo kikiri gito kiba gihenze.

Iri mu kiraro cayo. Iri gutegwa umuti na nyirayo kugira ngo amasazi garimo ibirundwe n'agandi masazi menshi gatandukanye gakunda kujya inka gataza kuyijya bigatuma ibangamigwa cyangwa kagaba gatuma inagwara izindi ngwara.

Ihuriro ry'abaganga babagaga bari ahantu babagiraga abantu batandukanye, bafite indwara zitandukanye, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Indwara zibabangamiye bazibakuyemo ari bazima bafite ubuzima buzira umuze.

Ahantu hororerwa inkoko za kizungu, zororwa ari izo kurya cyangwa arizo gutera amagi, inkoko zikaba ari inkoko nziza zikura vuba ndetse zigatanga n'umusaruro vuba.

Veterineri Uri gukingira inka yifashishije isirenge n'urushinge, imbere ye afite umuntu uyimufashije ndetse ni ifamu y'inka harimo n'izindi nka nyinshi zitandukanye.

Umugabo uri mu kiraro cy'ingurube. Iruhande rwe hari ingurubetse, ndetse imbere ye nabwo hari igiporete yifashisha agaburira ingurube akaba ari kuyiha ibyo kurya kugira ngo ibashe kubaho neza.

zatozwa akoresheje imashini mu buryo bwa kijyambere zikaba ziri kuvanwa ahantu zaturarizwe zigashigwa ahantu heza zizakurira zitabashije guhura n'ibibazo birimo by'indwara zishobora zazitera gupfa.

Veterineri ari kuvura inka afashijwe n'abandi bantu ku ruhande kugira ngo itamutera amahane, ndetse iri mu kiraro ahantu idashobora gutera amahane ngo igire ibintu byinshi yangiriza.

Ingurube iri mu kiraro cayo ibagamo kiyirindaga kuba yasohoka ikaja kwangiriza ibintu hanze .Ingurube ni itungo jyiza jyororokaga vuba kuko rishobora kubwagura ibibwana byinshi kandi bikagugwa amafaranga menshi mu gihe gito.

Ingurube itungo ryo mu rugo ryororwa rikororerwa mu kiraro, rikagaburirwa rikaba ari itungo ryiza ribwagura ibyana byinshi byazo, bikaba byashobora kugurishwa amafaranga menshi mu gihe gitoya.

Ibagiro ry'inyama z'amatungo zigurishwaga mu buryo butandukanye: haba kubagura ku biro, cyangwa bashaka kuzigura zuzuye, ari itungo ryuzuye bakarijana. Ni inyama ziri ahantu muri busheri.

Inka ziri mu kiraro ni ebyiri zitandukanye zifite amahembe, imbere yazo hari igiti, inyuma yazo ni mu kiraro ziri ndetse ziranaziritse.

Umugabo uri mu kiraro kirimo amatungo magufi y'ingurube, haba harimo ingurube nyinshi, nawe ari we nyirayo, kuzikoraho bigaragara ko azishimiye.

Inyama z'amatungo zibaga mumabusheri, zicuruzwaga bitewe n'uko umuntu ashaka, haba kumugurisha ku kiro, cyangwa kumugurisha yose bitewe n'amafaranga yitwaje, bakamuha inyama akeneye.

Itureyi zifashishwaga mu gutwara amagi zikaba ari zo zigatwaraga neza zikagarinda kwangirika. Kugira ngo gagire iyogagiye, amahoro ntagi na rimwe ryangiritse, cangwa ngo ribe ryameneka bitewe no gutwagwa nabi.

Abaganga babiri bari gukora ubushakashatsi ku matungo babagore, bombi bambaye uturindantoki kugira ngo batagira indwara bazana mu ntoki zabo, ziturutse ku matungo.

Inka ziri ahantu inka zikingirigwa cyangwa zifatira imiti hazirinda kuba zatera amahane ngo ziruke cyangwa ngo zigire ibyo zangiza. Ziri guterwa n'abaveterineri babiri batandukanye.

Veterineri ushinzwe ubuzima bw'amatungo ari gutera inka urushinge yifashishije isirenge. Yambaye isarubeti n'agapfukamunwa, inyuma ye hari yo undi muntu wambara agapfukamunwa. Inka iri ahantu idashobora gutera amahane ku uburyo itateza ibibazo veterineri.

Nyirabaraza ubwoko bw'ikiguruka kigurukaga mu kirere kikaba ari ikiguruka gitungwaga n'ibyo kujya birimo udusimba gikuraga mu butaka gikoresheje umunwa gwayo muremure, kikaba gikunda cane cane kuza ahantu imvura yaguye kiri gushaka ibihombogo.

Igikeri kiri mu mazi, cyane ko kiba mu mazi kikaba no ku butaka, ariko igihe kirekire kikimara mu mazi. Gishobora kuba mu mazi igihe cyose ndetse gihumeka neza, kandi kinabaho neza, cyane ko n'iyo kigiye gutera amagi bigisaba gusubira mu mazi, kugira ngo amagi ya cyo abashe kubaho neza, ndetse avemo n'ibindi bikeri by'ibyana.

Igihangara cangwa se icugu ,igisimba kimeze nk'umuserebanya ariko kigira umutwe munini cane. Gikunda kuboneka ahantu haba ubushuhe bwinshi ndetse kikagira n'amabara atandukanye, uhereye ku mutwe waco.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti ahantu mu ishyamba iruhande rwayo inyuma gato hari amababi y'icyatsi y'igiti meza, inyoni ifite amabara meza umukara n'umweru.

Inyoni ihagaze mugi ku giti ku ishami ahantu mu ishyamba, ubwonko bw'inyoni budakunze kuboneka ahantu hose, kuko ari inyoni nziza cane ,ntabwo zikunda kuboneka ahantu hose ,biragoye ko wayibona mu Rwanda.

Inyoni yo mu bwoko bwa dondanga ikundaga kudondanga igiti ikagicukura ikaba ari mo iba ,ntabwo yaririkaga ibyari nk'izindi nyoni zibagaho, ni inyoni ikundaga kudoma ibiti cane cane byumye ikabibamo indani mu mwobo iba yacukuje umunwa wayo.

Kagoma igisiga kinini cane, gikundaga kuba ahantu mu mashamba manini. Kikaba ari igisiga gifite ubushobozi bwo kuja mu mazi, kigakuramo ifi kiyirebeye kure kandi kikavamo kiyizanye.